Iyi ni supamaketi irimo umugabo, harimo n'ibicuruzwa mbona bijyanye mata, bijya gusa na korogati, iyi supamaketi ndabona iteretse ahantu mu nzu irimo amakaro, hari n'amatara yaka.